Ni byiza ko mu gihe uri kwigisha abanyeshuri bo mu mashuri abanza, ugomba gukoresha ibikinisho bigiye bitandukanye kuko bibafasha kwishima ndetse no kwishimira isomo.

Ni byiza ko buri kigo cy'amashuri kigomba kugira ibikinisho abana bagomba gukiniraho, kuko bibafasha kuruhuka ndetse bakumva ko bitaweho n'abarimu.

Ni byiza kugira ibikinisho by'abana kuko bibafasha kwishima bakumva bameze neza ndetse bikabafasha no gutekereza neza ku byo bashobora gukora.

Mu Rwanda dufite amahirwe aho hari amashuri agiye atandukanye, abana bakiri bato babasha kujyayo bakabigisha uko bakura bafite uburezi bwiza.

Ni byizayiza guha abana igikapu batwaramo makayi igihe bagiye ku ishuri, kuko bibafasha kurinda ibikoresho byabo baba bajyanye ku ishuri.

Isuku ni isoko y'ubuzima, mu Rwanda haje uburyo bwo gushira kandagira ukarabe mu bigo bigiye bitandukanye mu rwego rwo kwimakaza isuku mu baturage.

Ni byiza ko abana bose bagira ahantu bahurira bagakina, bagakora utuntu tugiye dutandukanye tubashimisha, kuko bibafasha gukura neza mu bwonko bwabo.

Ni byiza ko iyo uri kwigisha abana bo mu mashuri y'inshuke ugomba kubigisha ibikoresho byo mu rugo kugira ngo bazakure babizi neza.

Ni byiza ko mu gihe ufite umwana wiga mu mashuri y'inshuke ugomba kumugurira agacupa agomba kujya anyweramo igikoma ndetse n'amazi bityo rero bimufasha kwirinda ibyamurangaza bityo akiga neza.

Leta y'urwanda yateye inkunga ibigo by'amashuri abanza, aho usanga ibigo bitameze neza babasha kubisenya bakubaka ibimeze neza.

Mu Rwanda dufite amahirwe aho usanga uturere tugiye dutandukanye harimo amashuri abanza abasha gufasha abana bakiri bato kuzamura impano yabo ndetse bagahabwa n'uburere.

Ni ngombwa ko, abana, iyo batangiye kwiga, ugomba, kubigisha ibintu by'itorero, urugerero ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, kuko bibafasha gukora mu bwenge, ndetse bakabasha gusobanukirwa n'amateka, y'igihugu.

Usanga amashuri abanza haba urukarabiro, abanyeshuri babasha gukarabiraraho intoki kugira ngo birinde umwanda.

Mu Rwanda dufite amahirwe kuko usanga buri karere harimo amashuri abanza, afasha abana bakiri bato gukura bafite uburezi bw'ibanze.

Ni byiza ko tugaburira abana bacu indyo yuzuye, kuko bibafasha gukura neza, bafite ubuzima bwiza kandi bishimye cyane.

Tugomba kwigisha abana, gukora ibintu bitandukanye bityo rero tukabasha kureba impano zabo.

Ni byiza ko iyo uri kwigisha abana batoya. Ugomba gukoresha ibikoresho bigiye bitandukanye kuko bibafasha kumva neza isomo ndetse bikanabafasha no kuruhuka.

Ni byiza kujyana abana bakiri bato ku mashuri kuko bibafasha gukura bafite uburere ndetse n'ubundi bumenyi butandukanye.

Kuririmba ni ikintu gikomeye kandi ni ingenzi mu buzima bwa buri munsi kuko bifasha ugikora kumva amerewe neza.

Ni byiza ko buri mwana wese utangiye kwiga agomba kwigishwa by'imibare kuko bimufasha kwaguka mu mutwe ndetse no gukura ameze neza.

Dufite abarimu benshi bagiye batandukanye babasha gufasha abanyeshuri kubigisha ibintu bigiye bitandukanye ndetse n'uburyo bakwiteza imbere.

Mu gihe biri kwigisha abana bo mu mashuri abanza ugomba kwifashisha ibintu bigiye bitandukanye, urugero mu gihe bari kwiga imibare ugomba gukoresha ibimenyetso by'imibare kugira ngo babashe kubona neza uko bimeze ndetse no kubyiga neza.

Ni ngombwa ko abana bose bambikwa impuzankano kuko bibafasha kubona ko bameze kimwe n'abandi ndetse bakiga neza.

Amashuri abanza ni ho umwana abasha kubonera ubumenyi bw'ibanze bumufasha gukura ajijutse.

Birakwiye ko ibigo bigiye bitandukanye bigira isuku kuko ni ho hantu usanga hahurira abantu benshi, bagiye batandukanye.

gukora siporo ni byiza, usanga buri bigo byose by'amashuri abanza, bafite ibibuga by'imikino igiye itandukanye, abanyeshuri babasha gukiniraho kugira ngo bakomeze bagire ubuzima bwiza.

Ni byiza ko mugihe uri kwigisha abana, ugomba no kubereka ibikinisho byabo bakoresha, mugihe baba bananiwe, bashaka kuruhuka no kugira ngo bishime.

Ni byiza ko buri kigo kigomba kugira kirazira ndetse n'amahame akiranga, ikigo cya Karangagazi, usanga kirazira abanyeshuri bagenderaho bagerageza kuzikurikiza, bityo bigatuma gikomeza gutera imbere.

Mu gihe uri kwigisha abana biga mu mashuri abanza, ugomba kubaha ibikoresho bigiye bitandukanye bakabyifashisha mu kwiga, mu gukina ndetse n'ibindi bitandukanye bityo rero ibyo bibafasha kwaguka mu mutwe.

Mu gihe uri kwigisha abana bo mu mashuri abanza ugomba gukoresha ibikoresho bigiye bitandukanye harimo n'ibifite amashusho agaragaza abana bari ku ishuri, abari gukina ndetse n'abari gusoma bityo ibyo byose bibafasha mu kwaguka mu myumvire yabo.

Ni byiza ko twahuriza abanyeshuri hamwe tukabigisha indirimbo zigiye zitandukanye, kuko bibafasha kumva baruhutse mu mutwe ndetse bishimye.

Ni byiza gukora urugendoshuri mu mashuri kuko bifasha abanyeshuri gusobanukirwa ibintu byinshi bigiye bitandukanye.

Ni ngombwa ko buri munyeshuri wese yakwiga, kuko bizamufasha mu gihe kizaza, akazabona akazi keza ndetse akazashobora no guteza imbere Igihugu.

Ni byiza ko habaho abanyeshuri bahagarariye abandi bakabavuganira mu bibazo bafite bityo rero bigafasha n'abayobozi kumenya aho bahera babikemura.

Ni byiza ko nk'abanyeshuri bahurira hamwe bakiga ku masomo atandukanye bityo rero bakagira ubumenyi bwinshi ndetse buzabashoboza no kwiteza imbere mu gihe kizaza.

Ni byiza ko mu gihe abanyeshuri bahuriye hamwe bagomba gufata ifoto y'urwibutso kugira ngo mu gihe runaka uzajya arebaho azajye yibuka igikorwa bakoze.

Ni byiza ko buri munyeshuri aho ari hose agomba kurangwa no kwambara impuzankano kuko niyo yagize ikibazo ashobora guhita yitabwaho cyane byihuse bidatinze.

Mu Rwanda haje uburyo bwo gutekera abanyeshuri bari kwiga mu mashuri, ubu buryo ni bwiza kuko wafasha abanyeshuri kubona ibiryo ndetse byujuje intungamubiri.

Usanga abanyeshuri bo mu Karere ka Nyagatare, bari mu mashuri yisumbuye, mbere yo kugira batangire inyigisho, bahurira hamwe bakaririmba indirimbo yubahiriza igihugu ndetse bakabaha n'amabwiriza agiye atandukanye.

Ni byiza ko buri ibigo by'amashuri bigomba kuba biriho ibendera ry'igihugu kuko rigaragaza ko rifite ubumwe ndetse n'iterambere.

Ni ngombwa ko buri bigo by'amashuri bigomba guhuriza abanyeshuri hamwe bakiga ku bintu bigiye bitandukanye harimo imyigire yabo ndetse n'ibindi bibazo biboneka mu gihe cy'amasomo.

Ni byiza ko tujyana abana bacu mu mashuri kugira ngo bahakure ubumenyi bwinshi bugiye butandukanye, bwabafasha mu gihe kizaza.

Ni ngombwa ko ibigo by'amashuri bigomba kwambika abanyeshuri impuzankano isa kugira ngo babashe kubona ko bose ari bamwe nta vangura rihari.

Ni ngombwa ko buri munyeshuri agomba kugaragariza abandi ibyo yakoze kugira ngo nabo babigireho ubumenyi bityo rero bikamufasha kwigirira ikizere cyo kuba yahagarara imbere y'abandi mu buzima bwa buri munsi.

Mu buzima bwa buri munsi abanyeshuri ni bo bayobozi b'ejo hazaza, rero tugomba kubareka bakisanzura bagakora ibibashimishije kuko bibafasha kumva bisanzuye ndetse batuje, urugero mu byo bakora nko gufata ifoto y'urwibutso.

Usanga ama iniverisite agiye atandukanye, habamo intebe aho umuntu abasha kwicara, afite n'aho kwandikira, ibyo bigatuma biga mu buryo bwiza.

Usanga ibigo bigiye bitandukanye bafite ibibaho abarimu babasha kwandikaho igihe bari kwigisha abanyeshuri. Ibi bikadufasha gukomeza kwiga mu buryo bwiza kandi n'ibyo twize tukabyumva.

Ni byiza ko buri munyeshuri wese iyo yasoje kwiga mu mashuri yisumbuye ndetse na kaminuza ahabwa impamyabumenyi.

Ni byiza ko buri bigo by'amashuri na kaminuza, bigomba guha abanyeshuri mudasobwa kuko bibafasha kwiga neza ndetse bakagera ku ntego zabo.

Birashimisha cyane, iyo umunyeshuri wiga kaminuza, iyo asoje amasomo ye, agahabwa, impamyabumenyi, ariyo seretifika y'uko asoje amasomo y'iwe.

Ni byiza kandi birashimisha igihe umunyeshuri asoje amasomo ye agahabwa impamyabumenyi igaragaza ko yasoje amashuri makuru n'ayisumbuye.

Mu Rwanda tugira abanyeshuri bagenda barangiza ibyiciro bya kaminuza bigiye bitandukanye benshi cyane. Ni muri urwo rwego ko dufite amahirwe, yo kubona abaturage benshi bize kandi bajijutse.

Kaminuza y'u Rwanda, hari abanyeshuri biteza imbere binyuze mu gukora intebe zituruka mu maparasitike, ibi bigatuma bakomeza gutera imbere.

Ni byiza ko buri munyeshuri wese iyo asoje amasomo ye agomba guhabwa impamyabumenyi igaragaza ko yasoje kwiga amashuri makuru ndetse n'ayisumbuye.

Abanyeshuri biga muri kaminuza ishami rya Huye, usanga buri wa gatatu bahurira hamwe, bakagira ibintu byinshi bigiye bitandukanye bigaho byabateza imbere.

Ni byiza ko abayobozi za kaminuza ndetse n'abanyeshuri, bagomba kwihureza hamwe, bakavuga ibibazo ndetse n'imbogamizi bahura nazo mu myigire yabo.